Ibigo by'amashuri abanyeshuri bigagamo baraba mu kigo , ndetse n'imigozi banikiragaho imyenda zabo indabo zimeze neza zigiye zitandukanye n'ibiti bishinze mo , abanyeshuri bararuhukaga bagiraga ikibuga ciza co kwidagaduriramo rwose bimeze neza iterambere ni ryiza rirakataje.

Intebe nziza zijanye n'iterambere tugezeho, ziri mu ishuri, ndetse n'ikibaho zifite amaguru g'ibyuma. Intebe zo zikozwe mu biti. Ibiti na byo bifite akamaro kanini cane, aho tubikoragamo intebe abanyeshuri bicaragaho, bakaza mu ishuri, bakiga nta kibazo, bagakurikira amasomo.

Abantu bari kuboha, bishyize hamwe kandi ibyo bari kuboha babizi neza. Bifashishije imigozi ndetse baboha uduparato kandi abandi batabizi bagenda bareberaho kugira ngo nabo babimenye bazabashe kuboha.

Abanyeshuri barigaga bafite n'amamashini, bigaga ubudozi kugira ngo bazabashe kwihangira imirimo, abatarabashije kugera mu mashuri, babaga bicaye batega amatwi icyo umuntu uri kubigisha ababwira.

Amazu g'ingerekerane, g'icitegererezo, byitabweho cane ku buryo bikwiye leta yaragikemuye, ubuhehe na nyakatsi, abaturage batuye mu ibati barashima ibintu byose bigenda neza ku murongo.

Abantu bambaraga ibisarubeti ndetse bambaye n'ibigofero n'udupfukamunwa, bigaragara ko abintu bari gukora babifitemo ubumenyi n'ubuhanga babizindukiye, batewe ishema nabyo, bijanye n'amashanyarazi.

Amazu g'amashuri gameze neza, intebe zijanye n'iterambere ameza meza ibikoresho byose birimo rwose. Abanyeshuri nukwiga ibikoresho bijanye n'ikoranabuhanga. Rwose iki gihe ntabwo wababaho utarize, ni ukwiga ntabwo wa kwiye no kudindiza umwana wawe ngo areke kwiga.

Amashini gadodaga imyenda, abantu babaga bicaye bari kudoda. Abahungu ndetse n'abakobwa bose badodera hamwe, ubu mu iterambere tugezeho nta vangura bose ni ugukora ugakura amaboko mu mufuka.

Igikoni batekeragamo n'abantu batekaga babaga bambaye imyenda zabugenewe z'umweru ingofero zahishe imitatsi zabo kugira ngo zitajamo ndetse n'amataburiye babaga bambaye batekera mu masafuri g'ibyuma ndetse bafite ibikoresho bitandukanye.

Abanyeshuri bari kwiga, ibyo bari kwiga baba babikurikiranye neza, kuko muri iri terambere tugezemo, nta bwo wakora udafite icyerekezo, ugomba kwiga ibijyanye n'iterambere tugezeho.

Ibikoresho by'ikoranabuhanga abahungu n'abakobwa bose barabyigaga, ukabona ko ibyo bari gukora babaga babifite ubumenyi, ku buryo igihe runaka bazabikenera bazabikora nta mpungenge bafite.

Abanyeshuri bicaye mu ishuri bari kwiga, ndetse bafite n'ibikoresho, buri mwana agenda atanga ubumenyi bwe ibyo azi akabigeza ku bandi bana, bagatega amatwi bakabikurikirana, nabo bakabimenya bakazabyifashisha babyigisha abandi.

Abanyeshuri bigaga neza, uburinganire n'ubwuzuzanye abahungu n'abakobwa, abarezi barabaha insanganyamatsiko, abanyeshuri bagatega amatwi, abarezi bakishima, bose bakishima cyane.